Ishuri ribanza ryubatse neza cyane, hariho icyapa hagati kigaragaza iryo shuri iryo ari ryo. Rifite ikibuga gisa neza cyane.

Abagabo bane bahagaze ku muryango, hari uwambaye itaburiya y'umweru, hari uwambaye ikoti ry'umukara, hari uwambaye ishati irimo umweru, hari n'undi wambaye ikoti ry'umukara, bose bifashe mu mifuka bari kureba imbere.

Ikibaho gisa n'icyatsi, intebe nyinshi cyane zitateye amarangi, nta muntu urimo, ikibaho cy'icyatsi kiri ku gikuta cy'umweru, umweru cyane.

Icyapa cyanditseho amagambo, ni icyapa cy'umweru cyaditseho Ubufatanye, Ubupfura, Intsinzi. Banyeshuri, barezi ba Gasa Kampanga, duharanire umuco w'ubutore n'Ubunyarwanda.

Abantu bambaye imyenda myiza cyane ifite isuku bari gutegura ibyo kurya bari kubitegurira abantu, hari uri gutegura w'umugore, hari undi w'umugabo nawe uri kureba ukuntu ari kubikora....

Itsinda ry'abana ni abanyeshuri bambaye umukara n'umweru, hari mwarimu wabo uri kureba ibintu bari gukora, buri wese hari ibintu ari kugenda akata.

Abanyeshuri bari mu ishuri bari kumwe na mwarimu wabo, bose bambaye udupfukamunwa, bari kubigisha uko bakoresha ikoranabuhanga, ni ibintu bigaragara neza cyane, mwarimu wabo yambaye agapira k'umuhondo.

Abanyeshuri benshi cyane harimo abahungu, harimo n'abakobwa. Abakobwa bambaye ibitambaro by'umweru mu mutwe, hari umugabo uhagaze hagati yabo ari kubababwira.

Abana benshi cyane bambaye imyenda isa babanyeshuri bari kwiga uko bashyira mu bikorwa ibintu biga.

Abantu bambaye imyenda isa. Ni itsinda ry'abantu benshi, hari abambaye bote, hari abambaye inkweto zisanzwe, bari kwigishwa, bafite inkoni. Abandi bari hejuru yabo, bambaye ibintu byiza cyane basanishije.

Abanyeshuri bambaye imyenda, munsi y'umweru, hejuru ubururu, ni batatu bari kwiga uburyo bakanika ibintu.

Ishuri ririmo intebe ibikoresho byo kwifashisha umuntu ari kwigisha abanyeshuri, hari abagabo babiri umwe ari hagati, undi ari kumuryango ari ku muryango ari kuvugira kuri telefone.

Itsinda ry'abanyeshuri riri mu cyumba cyo kwigiramo ibintu bitandukanye, bakiga uburyo bapima ibintu biga. Buri wese afite ahantu yandika barakurikiye, harimo na mwarimu.

Abantu bane, hariho uwa gatanu uri kubigisha ukuntu bavura umuntu. Ni abaganga bambaye imyenda yumweru, ingofero z'umweru, ni imyenda myiza cyane isa neza.

Umugabo wambaye imyenda y'ubururu, ingofero y'umuhondo, agapfukamunwa k'umutuku, ari imbere y'ikigo cy'amashuri, hasi hari ibyatsi by'icyatsi, hari ibintu ari kureba uko bimeze.

Abanyeshuri bari kwiga uko wakoresha ikoranabuhanga, bafite ibikoresho bari kureberaho. Abanyeshuri batatu bambaye ibintu bitandukanye, bari kwigira ahantu heza cyane.

Umugabo wambaye itaburiya y'ubururu, hari ibikoresho hari ameza, hari ameza abiri, hari n'ibindi bikoresho birambitse hejuru kumeza.

Umugore mwiza cyane, ufite ikintu cyumweru, wambaye ga mu ntoki, yambaye itaburiya yumweru...

Abanyeshuri, itsinda ry'abanyeshuri bari kwerekwa uburyo bagomba gushyira mu bikorwa ibyo bigishijwe, n'abanyeshuri benshi cyane harimo ni uri kubibereka.

Umugabo w'igikara wambaye isurubeti yicyatsi ari kwiga ukuntu bakora ibintu muri puratike.

Umunyeshuri wicaye hari undi uhagaze hejuru ye, afite ikintu ari gukoresha kugirango asukure umusatsi we bambaye imyambaro isa.

Itsinda ry'abantu benshi cyane b'abakobwa bambaye imyenda myiza cyane isa, hasi bambaye ingutiya z'umukara, hejuru bambaye amashati y'umweru, bari kwiga kudoda imyenda buri wese yicaye ku mashini ye, bari kubigisha bari kudoda ibintu bitandukanye.